Mu rwego rwo gushyigikira ndetse no guteza imbere ubuhinzi n'ubworozi, leta y'u Rwanda yagiye ishyiraho ndetse ishyira ku isoko imiti myinshi igenda yifashishwa mu buhinzi ndetse no mu bworozi, ishyiraho gahunda nyinshi ndetse n'ubujyanama ku mikoreshereze yayo kugira ngo umusaruro w'iibikomoka ku buhinzi wiyongere ndetse iterambere ry'igihugu riboneke.

Mu rwego rwo gushyigikira no guteza imbere ubuhinzi mu Rwanda, abahinzi bose bashishikarizwa gukoresha imiti yica udukoko, iyo miti yagabanyaga umusaruro babonaga bigasubiza inyuma iterambere ryabo. Nimuri urwo rwego hashyizweho uburyo bwihariye bwo gukoresha iyo miti kugira ngo abashe kongera umusaruro wabo ndetse binafasha mu iterambere ry'igihugu muri rusange.

Muri gahunda za leta harimo n'iyo guteza imbere ubuhinzi. Leta y'u Rwanda ishishikariza abaturarwanda gukoresha imvaruganda ndetse n'ifumbire kugira ngo babashe kwita ku bihingwa bityo umusaruro ubashe kwiyongera, abantu bihaze mu biribwa ndetse banasagurira amasoko.

Mu rwego rwo guteza imbere ubuhinzi no kwitahingwa, abaturage bagenda bifashi imiti igiye itandukanye yifashishwa mu kurwanya udusimba twangiza ibihingwa, umusaruro bavana mu buhinzi. Ibyongibyo bifasha mu iterambere ryabo ndetse no kwiyongera k'umusarurombe w'igihugu.

Mu rwego rwo guteza imbere ubuhinzi no kwita ku bihingwa, abaturage bashishikarizwa gukoresha imiti yabugenewe yica udukoko twangiza ibihingwa. Ibyo bifasha mu kongera umusaruro w'ibihingwa ndetse binafasha mu kongera umusaruro w'ibijya ku isoko ndetse binafasha iterambere ryabo niry'igihugu muri rusange.

Mu rwego rwo gushyigikira ubuhinzi n'ubworozi, abahinzi bose bashishikarizwa gukoresha imiti yica udukoko, utwo dukoko dushobora guteza igihombo ku buhinzi. Muri urwo rwego dushishikarizwa kugura imiti igiye itandukanye ibafasha mu kurwanya udukoko, ikabafasha kongera umusaruro w'ibihingwa byabo.

Leta y'u Rwanda mu ntego ifite zo kwita ku bidukikije yashyizeho gahunda yihariye yo kwita ku nyamaswa cyane cyane inyamaswa ziba mu mazi, igashyiraho uburyo bwiza bwo kuzitaho ndetse no kuzirengera n'uburyo bwo kuzikorera neza kugira ngo zibashe gutanga umusaruro nkuko bikwiye, hanirindwa abazangiza n'abazihutaza.

Leta y'u Rwanda mu ntego ifite harimo n'izo kwita ku bidukikije by'umwihariko inyamaswa. Ni muri urwo rwego leta y'u Rwanda yashyizeho gahunda ihamye yo kwita ku nyamaswa zo mu mazi cyangwa ibinyenyanja, hubakwa aho zikwiye kororerwa ndetse hagashyirwaho uburyo bwiza bwo kuziroba kugira hirindwe kuzangiza.

Leta y'u Rwanda ibinyujije muri gahunda yo kwita ku bidukikije, yashyizeho gahunda nziza ihamye yo kwita ku nyamaswa by'umwihariko ku nyamaswa zo mu mazi. Yashyizeho uburyo bwiza bwo kororera inyamaswa mu mazi ndetse ibinyenyanja uburyo bikwiye kwitabwaho ndetse hakitabwa ku isuku y'amazi bibamo.

Ubworozi bw'amafi. Ibi ni ibyuzi bororeramo amafi. Bubakiraho turiya tuzu, turiya tuzu bakatwororemo inkwavu hanyuma ibyo zineye hasi bikaribwa n'amafi, urumva ni ubworozi.

Kwita ku binyabuzima ni imwe muri gahunda za leta kandi ishyizemo imbaraga cyane. Leta y'u Rwanda ishyira imbaraga mu kwita ku binyabuzima ndetse no ku nyamaswa. Ibinyabuzima byose byo mu mazi cyangwa ibinyenyanja bigomba kwitabwaho mu buryo bwihariye hashyirwaho igihe cyagenwe cyo kuroba nk'amafi ndetse hakarwanwa uburobyi butemewe.

U Rwanda rushyira imbere gahunda yo kurengera ibidukikije, ndetse no kurengera ibinyazima byose muri rusange. Harimo n'ibiba mu mazi. Ibibazo mu mazi, Leta ishyiraho gahunda ihamye yo kubungabunga ndetse igashyiraho igihe cyiza cyo kuroba amafi, ndetse n'ibindi biba mu mazi kugira ngo batabyangiza.

Ubuhinzi, uyu muturage ari gusarura iki ihingwa cye, ari gusarura kawa, afite kawa nziza zigezweho, urabona ko umusaruro w'ikawa wiziwe utari mucye cyane, ntabwo ari mucye urashimishije, bimufasha mu kwiteza imbere buri munsi.

Ubuhinzi bwa kawa, iyi ni kawa ya kijyambere, ni kawa igejeije igihe cyo gusarurwa, ireze kandi ubona ko yeze neza rwose, ni kawa zimwe zigezweho zitanga umusaruro mwinshi uhagije, ukenewe kugira ngo igihugu cyinjize ubukungu buhagije.

U Rwanda rurakataje mu gukangurira ndetse no mu gushishikariza Abaturarwanda bose muri rusange by'umwihariko abakora ibikorwa by'ubuhinzi, mu guhinga ibihingwa ngengabukungu, ngengabukungu, ibihingwa nyegabukungu nk'amakawa, bifasha igihugu mu kubona amafaranga bityo byongera ubukungu bw'igihugu mu buryo bwihuse.

Leta y'u Rwanda binyuze muri gahunda yo guteza imbere ubuhinzi. Ishishikariza abaturage mu kwitabira mu bikorwa byo guhinga cyane cyane mu guhinga ibihingwa ngengabukungu. Bifasha kugira ngo babashe kubona amafaranga yo kwiteza imbere kugira ngo bateze n'imbere n'igihugu cyabo.

Abaturage b'u Rwanda bashishikarizwa kudahinga ibihingwa ngangurarugo gusa ahubwo bakanahinga ibihingwa ngengabukungu kugira ngo babashe guteza imbere ubuhinzi bityo bibashe kubavana mu bukene, byongera iterambere ryabo ndetse n'iterambere ry'igihugu muri rusange.

Leta y'u Rwanda ibinyujije muri gahunda yayo yo kwita ndetse no guteza imbere ubworozi. Yagiye ishyiraho gahunda yo gukora imiti y'amatungo ndetse ishoboka bakanayitumiza mu mahanga. Mu buryo bwo kwirinda ko amatungo ndetse n'inyamaswa rusange, bibura ubuzima bwabyo bityo bigahombya igihugu.

Ubuvuzi bw'amatungo aha uyu muti, iyi ni imiti igiye itandukanye by'umwihariko y'inkoko, harimo ifasha kongera umusaruro w'inkoko cyane cyane ko ari bumwe mu bworozi bugezweho twavuga mu Rwanda, uyu muti ni mwiza cyane ku borozi b'amatungo by'umwihariko b'inkoko.

Mu rwego rwo gushyigikira ubworizi, leta y'u Rwanda ishishikariza abaturage mu kwifashisha imiti y'amatungo ifasha mu kongera umusaruro wayo ndetse n'ibikomoka ku matungo. Iyo miti yifashishwa mu gufasha ndetse no kugira ngo iterambere ryabo ndetse n'igihugu ryiyongere.

Mu rwego rwo guteza imbere ubworozi ndetse no kwita ku matungo, u Rwanda rugenda rushishikariza abaturage barwo mu gukoresha imiti itandukanye, ifasha amatungo kongera umusaruro ndetse bakanayavura igihe yarwaye kujya birinde ibyago ndetse n'ibihombo kwita ku mutungo ni ingenzi mu iterambere ry'igihugu.

Abanyarwanda bagiye bahugurwa ndetse banagirwa inama yo guhinga kijyambere, ubu barahinga ndetse bakabona umusaruro ubahagije kugeza ku rwego banasagurira amasoko. Ibyo bibagirira umumaro kuko bibafasha mu kwiteza imbere kandi ibyo bifa n'igihugu mu iterambere rirambye.

Mu rwanda mu murimo abantu benshi bahuriyeho kandi utunze benshi ni ubuhinzi ,abahinzi bagira uruhare mu mibereho y'igihugu cyose muri rusange. Bahinga ibyo kurya bitandukanye kandi bikoreshwa bikenerwa ndetse n'abantu bose uretse bo nyirizina gusa.

Ubuhinzi aha ngaha turi kubona hano mu murima uyu ni umuhinzi, avuye guhinga afite ibikoresho by'ubuhinzi isuka, amabase, ikigaragaza ko hano ubuhinzi bwaho bukorwa mu buryo bwa kijyambere, ukurikije uko ubona iyi mirima yubatsemo cyangwa se imeze.

Ubuhinzi nk'imwe mu inzira yo kwiteza imbere ndetse no kwihaza mu mirire, ni kimwe gikorwa gikorwa n'abantu benshi mu gihugu cy'u Rwanda, icyo gikorwa kandindi Leta y'u Rwanda iragishyigikiye kandi ishishiksriza abaturage mu guhinga kijyambere kugira ngo babashe kwihaza mu mirire ndetse banasagurire amasoko.

Muri gahunda leta ifite kwita ku buhinzi ni imwe muri gahunda leta ifite kandi zishyigikiye ishyizemo imbaraga cyane. Leta ishishikariza abaturage gukora ubuhinzi bugezweho ndetse bakabasha gukoresha neza ubutaka budakoreshwa kugira ngo babushyireho ubuhinzi n'ubworozi bityo byongera iterambere ryabo, umusaruro w'igihugu wiyongere ndetse iterambere ry'igihugu muri rusange.

Ubuhinzi bw'ibiribwa bufasha abaturage mu kwihaza mu mirire bityo bikarwanya indwara ziterwa n'imirire mibi ndetse no kugwinngera ndetse bikanabafasha no ku iterambere ryabo rya buri munsi. Leta y'u Rwanda ishyira imbaraga mu gukangurira abaturage mu kwita ku buhinzi bw'imirire ndetse bagakoresha neza imvaruganda kugira ngo babone umusaruro mwiza utubutse.

Ibidukikije nk'amashyamba ni bimwe mu bintu leta y'u Rwanda ishyigikiye kandi ishyize imbere. Kugira ibashe kubibungabunga kuko byagaragaye ko amashyamba agira uruhare runini mu mibereho y'abaturage, ndetse akanagira uruhare mu gutanga imvura.

Ibidukikije ni isoko y'ubuzima bwiza, binyuze muri gahunda Leta y'u Rwanda, Leta y'u Rwanda ishishiriza abaturage mu kwita kumashyamba ndetse no gutera ibimera kugira ngo bibashe gutanga umwuka mwiza ndetse binabashe gutanga ubuzima ku nyamaswa z'i gasozi ndetse no kuzibungabunga.

Leta y'u Rwanda muri gahunda yo gushyigikira ibidukikije ishishiriza abaturage mu kubungabunga amashyamba ndetse n'ibimera gakondo. Ibyo bimera kuko bigenda bigira uruhare runini mu buzima bwa buri munsi, bitanga umwuka mwiza duhumeka ndetse bifasha no kugira imvura ibasha kuboneka.

Kwita ku bidukikije ni imwe muri gahunda ya leta y'u Rwanda. Leta y'u Rwanda yagiye ishyiraho uburyo bwinshi butandukanye ndetse ishyiraho n'ingamba zitandukanye zo kwita ku bidukikije. Ibyo bikorwa harimo gushishikariza abantu gutera amashyamba ku misozi ndetse hakanitabwa kugira ngo ibashe kugira umumaro igihugu.

Kubungabunga ibidukikije ni inshingano za buri wese. Iyo ni gahunda ya leta y'u Rwanda kuko byamaze kugaragara ko ibidukikije, amashyamba bifasha mu kurema imvura. Ni muri urwo rwego leta y'u Rwanda ishishikariza Abaturarwanda gutera amashyamba, gutera ibiti ndetse no kubibungabunga kugira ngo ikirere cy'u Rwanda gikomeze kimere neza.

Kwita ku bidukikije ni zimwe muri gahunda za leta. Leta mu buryo bwo kwita ku bidukikije igenda ishyiraho uburyo buhamye bwo kubyitaho, kwita ku bimera ndetse ikanakangurira abaturage ubuhinzi bwa kijyambere kugira ngo ibashe gusigasira ikirere cy'u rwanda ndetse inasigasire ubusugire bw'igihugu ndetse babashe no kugira igihugu gitekanye.

Ibidukikije by'umwihariko amashyamba ndetse n'ibimera byose muri rusange bikwiye kwitabwaho, nkuko gahunda ya leta y'u Rwanda yashyizweho igamije kwita ku bidukikije. Leta y'u Rwanda umunsi ku munsi ishishikariza abaturage gutera ibiti ndetse no kubungabunga amashyamba mu rwego rwo gushyigikira ibidukikije ndetse no kwirinda ibyaha.

Binyuze muri gahunda ya leta yo gushyigikira ndetse no kwita ku bidukikije, leta y'u Rwanda ikangurira abaturage kwita ku matungo ndetse n'ibimera kuko ibyo byombi bikenerana ubuzima bwa buri munsi. Amatungo akeneye amashyamba kugira ngo ahugame igicucu, aharishirize ndetse abashe kumererwa neza.

Abaturage b'u Rwanda, bagiye bahugurwa ku by'ubuhinzi bwa kijyambere none ubu bagenda babona umusaruro ushimishije, mu buhinzi bw'imboga n'imbuto, barahinga bagahinga kijyambere ndetse umusaruro uvuyemo bakawujyana ku isoko bakabasha kwiteza imbere no guteza imbere Igihugu muri rusange.

Mu Rwanda ibikorwa by'ubuhinzi nk'igikorwa cyubahwa cyane kuko ni igikorwa gikorwa n'abantu benshi, mu Rwanda bahinga imbuto n'imboga zifashishwa n'abanyarwanda bose ndetse zirakenerwa cyane ubuhinzi bw'inanasi bukorwa n'abaturage benshi mu ntara ziigihe zitandukanye z'igihugu.

Muri gahunda yo gushyigikira ndetse no guteza imbere ubuhinzi, Leta y'u Rwanda igenda ihugura abaturarwanda, uburyo butandukanye bwo guhinga imboga n'imbuto, kugira ngo babashe kubona umusaruro wisumbuyeho, ubafasha kugira ngo biteze imbere, ndetse binafasha mu iterambere ry'Igihugu muri rusange.

Ubuhinzi bw'imbuto n'imboga ni kimwe mu gikorwa cyitabirwa n'abantu benshi, kandi kibabyarira inyungu umunsi ku wundi. Ni muri urwo rwego leta y'u Rwanda ishishikariza abaturage mu guhinga kijyambere ndetse no guhinga ibihingwa byera vuba kugira ngo babashe kubona umusaruro uhagije wo kwiteza imbere no guteza imbere igihugu.

Kwita ku buhinzi bugezweho ni imwe mu nzira y'iterambere rirambye. Ni muri urwo rwego leta y'u Rwanda ikangurira abaturage mu gukora ibikorwa bigiye bitandukanye kugira ngo bateze imbere ubuhinzi, aho bahabwa amahugurwa ku buryo bahinga no mu gihe cy'izuba bakajya bakoresha uburyo bwo kuvomera.

Mu rwego rwo guteza imbere ndetse no gushyigikira ubuhinzi mu Rwanda, leta y'u Rwanda ishishikariza abaturage mu gukoresha uburyo bwiza ndetse no guhinga kijyambere, ikanabahugura uburyo bashobora guhinga no mu gihe cy'izuba, baba bashobora kuvomere imyaka yabo bikabasha kubaha umusaruro ndetse bikabakura no mu bukene.

Imisozi ndetse n'ahantu hahanamye, bikwiye kwitabwaho, kugira ngo bibashe kugira umusaruro. Leta y'u Rwanda yafashe gahunda yuko ku misozi haterwa amashyamba, ndetse n'ibindi biti bitanga umuyaga, kugira ngo birwanye isuri.

Muri gahunda leta ifite yo kwita ku bidukikije leta y'u Rwanda yagiye ishyiraho uburyo butandukanye bwo kwirinda inkangu ndetse n'amasuri ishishikariza abaturage mu gutera ibiti ahahanamye ndetse igashishikariza abaturage kwimuka bakava ahantu habishobora gushyira ubuzima bwabo mu kaga bagatura ku mudugudu.

iiki ni ikiyaga. Ikiyaga kigari, ikiyaga kinini kiva harira hirya kikagaruka gutya, kikagera hano, ni ikiyaga kiri hagati y'imisozi ariko n'ubundi impande zacyo hatuye abantu. Ni ikiyaga cyifashishwa ndetse gifasha abaturage mu buzima bwa buri munsi n'abo hakurya.

Binyuze mu buryo bwo kwirinda ibyago biterwa no gutura habi ndetse bifatanyije na gahunda ya leta yo kwita ku bidukikije, leta y'u Rwanda ishishikariza abaturage kuva ahantu hashobora gushyira ubuzima bwabo mu kaga, bakimuka bakajya gutura ku mudugudu ndetse aho hantu hakaba haharirwa ibikorwa by'ubuhinzi n'ubworozi mu gushyigikira iterambere ry'igihugu n'iby'abaturage muri rusange.

Leta y'u Rwanda ibinyujije muri gahunda yayo yo guteza imbere ibidukikije, yashyizeho gahunda zigiye zitandukanye zo kwita ku buhaname bw'ubutaka nko guca imirwanyasuri, gutera amashyamba ndetse no kwimura abahatuye kugira ngo ubuzima bwabo budashyirwa mu kaga.

Muri gahunda ya leta yo kwita ku bidukikije, leta y'u Rwanda ishishikariza abaturage mu kwimuka ahantu hahanamye, kugira ngo hadashyira ubuzima bwabo mu kaga. Ahubwo aho hantu hagashyirwa ibikorwa bi bitandukanye by'iterambere, mu bworozi bw'inzuki cyangwa ubuhinzi, bifasha mu iterambere ry'igihugu ndetse n'ubuzima bwiza bw'abagituye.

Mu buryo bwo kwita ku bidukije leta y'u Rwanda yashyizeho gahunda yo gutera amashyamba ahantu hahanamye kugira ngo ayo mashyamba abashe gufata ubutaka ndetse aho hantu hatagira ikindi cyahakorerwa ndetse hanaturwe n'abantu, habashe gukoreshwa nk'ubwo buryo kugira ngo habyaze umusaruro ndetse binashyigikire iterambere ry'igihugu.

Muri gahunda ya leta yo guteza imbere ubuhinzi n'ubworozi Leta y'u Rwanda ishishikariza abahinzi korora bya kijyambere by'umwihariko bagakoresha uburyo bushyashya bwo korora inkoko kugira ngo babashe kubona umusaruro uhagije w'ibikomoka ku matungo.

Leta y'u Rwanda binyuze muri gahunda yo gushyigikira ubworozi, ishishikariza abaturage kwita ku matungo yabo ndetse bakayitaho by'umwihariko, birinda ko yarwara ndetse bakanayagaburira bihagije. Amatungo yitaweho neza atanga umusaruro mwinshi ufasha mu iterambere ry'umworozi ndetse n'iterambere ry'igihugu muri rusange.

Leta y'u Rwanda binyuze muri gahunda yayo yo gushyigikira ndetse no guteza imbere ubworozi bw'amatungo, ikangurira abaturage gukora ubworozi bwemewe kandi bakabukora neza ku buryo bubagirira umumaro buzana umusaruro utubutse ndetse bikanagirira umumaro igihugu muri rusange kuko ubworozi bukozwe neza mu iterambere ry'igihugu.

Ubworozi bw'amatungo. Izi ngizi ni ingurube zorowe mu buryo bwa kijyambere. turabona ko zororowe mu kiraro cyubatse neza mu buryo bwa kijyambere, ndetse izi ngurube nubwo ari nto rwose, ari ibibwana, ariko urabona ko ziri gukura neza, zirabyibushye, ndetse zifite ibyo kurya bihagije. Bigaragaza ko ari ubworozi buteye imbere.

Ubworozi bw'amatungo mu Rwanda burashyigikiwe ndetse leta y'u Rwanda ishishikariza abaturage korora kijyambere, ikabasaba kororera ahabugenewe, bibafasha kubona umusaruro w'ibikomoka ku matungo uhagije, bikabafasha kwiteza imbere ndetse no guteza imbere igihugu muri rusange.

Ubushakashatsi ku bworozi bw'amatungo bugezweho. Uyu yitwaje agakayi, ndetse yagiye kwiga uburyo bwiza bwo korora amatungo bwa kijyambere, yasuye iki gikumba, cyangwa aha bororera amatungo mu buryo bwa kijyambere, bayororera mu kiraro, kugira ngo amenye uburyo bwiza bwora umutongo.

Abaturage benshi bashishikariye kugano iy'ubworozi bagenda borora amatungo magufi ndetse bakagenda bazamuka mu ntera aho ibyo bibafasha kuva ku rwego rumwe bajya ku rundi, bibafasha kubasha kubona amafaranga yo kwiteza imbere ndetse bibabera isoko y'amafaranga yo gukemura ibibazo bagenda bahura nabyo mu buzima bwa buri munsi.

Ubworozi. Iyi ngiyi ni ingurube ya kijyambere. Yororewe ahantu hatuma ibasha kwisanzura, ibasha gufata amafunguro mu buryo buyoroheye, ibona n'ifunguro riyiri imbere. Iyi ngurube irabyibushye rwose, bigaragara ko yorowe neza mu buryo bwa kijyambere

Ubworozi mu Rwanda bwatejwe imbere kandi bushyizwemo imbaraga binyuze muri gahunda yo gushyigikira ubworozi. Ni muri urwo rwego leta y'u Rwanda ishishikariza aborozi bose korora kijyambere ndetse bakorora mu biraro, aho amatungo agaburirwa ndetse akanoherwa ibifasha mu kongera umusaruro wabo ndetse n'igihugu muri rusange.

Ubworozi bw'amatungo. Aha ngaha aborozi b'inka, barimo barabyaza umusaruro amatungo yabo, inka zabo, aho ubona ko binikije bari gukama. Ni inka nziza za kijyambere zigezweho, za nka zitanga umukamo utubutse. Ni inka zibyibushye rwose.

Zimwe muri gahunda leta y'u rwanda ifite no gushyigikira ubuhinzi n'ubworozi, mu gushyigikira ubworozi, Leta y'Rwanda ishishikariza abaturage mu korora amatungo mu bikumba, ndetse ikabashishikariza korora amatungo ya kijyambere amatungo ya kijyambere iyo yitaweho atanga umusaruro mwinshi ku muturage, ku mworozi ndetse no kuri Leta mu iterambere ry'igihugu muri rusange.

Binyuze muri gahunda ya Leta yo kwita ku buhinzi, Leta y'u Rwanda ishishikariza abaturage guteza imbere ubuhinzi, cyane cyane ubuhinzi bw'ibinyampeke. Ubu buhinzi bufasha mu kongera umusaruro w'abahinzi ndetse nuw'igihugu muri rusange. Nko guhinga ibigori bifasha abaturage kwihaza mu mirire, aho babasha kubona ibigori, akawunga ndetse n'ibindi bikorwa bifasha mu iterambere.

Ubuhinzi ni ingenzi mu Rwanda. Mu rwego rwo gushyigikira abahinzi ndetse no guteza imbere ubuhinzi leta y'u Rwanda igenda itanga amahugurwa ku buhinzi by'umwihariko ku buhinzi bw'ibinyampeke kugira ngo abaturage n'ababihinga babashe kubona umusaruro uhagije wo kubasha kwihaza mu mirire no gusagurarira amasoko.

Abahinzi umunsi ku wundi bagenda bashishikarizwa ndetse banahugurwa mu buryo bw'imihingire igezweho, aho nko guhinga ibinyampeke abahinzi bagenda babisobanurirwa kugira ngo barusheho kugira umusaruro mwinshi w'ibikomoka ku binyampeke harimo nk'ibigori.

Ubucuruzi mu buhinzi n'ubworozi uyu acuruza ibiryo by'amatungo, acuruza ibiribwa byifashishwa mu guha amatungo kugira ngo abashe gukura neza, afite imifuka igiye itandukanye ,agiye afite ibiryo byahabwa amatungo atandukanye, inka ,ingurube ,inkoko.

Binyuze muri gahunda ya leta y'u Rwanda yo kwita ku bidukikije, leta yateje imbere uburyo bw'ubuvuzi bw'amatungo kugira ngo hatagira itungo ryangizwa ndetse rigapfa biturutse ku burangare, bitewe n'indwara zigeze zitandukanye zifata amatungo. Ikindi kandi ubuvuzi bw'amatungo bufasha kugira ngo ayo matungo adakwirakwiza indwara zitandukanye mu bantu.

Ubuvuzi bw'amatungo ndetse no kwita ku matungo byatejwe imbere mu Rwanda aho urubyiruko rwigishwa uburyo bwiza bwo kwita ku matungo, ndetse kugira ngo bwongere umusaruro wayo. Ibyo bigakorwa kandi hita ku korora kijyambere ndetse no korora amatungo abasha gutanga umusaruro vuba.

Mu rwego rwo gushyigikira gahunda yo kurengera amatungo ndetse no kongera umusaruro w'ibikomoka ku matungo, leta y'u Rwanda ihugura abaturarwanda uburyo bwo kwita ku mutungo bakayavura ndetse bukanayavuza mu buryo bwo kwirinda ko umusaruro w'ibiyakomokaho ugabanuka mu gihugu.

Ubworozi butunze benshi mu Rwanda, ni muri urwo rwego leta y'u Rwanda idasiba gushishikariza abarozi bose kwita ku buzima bw'inyamaswa ndetse igatanga amahugurwa ndetse n'uburezi bw'ubuvuzi bw'amatungo. Ibyo byose ni ukugira ngo amatungo abashe gusigasirwa abashe kwitabwaho kugira ngo umusaruro wayo ube mwinshi mu gihugu.

Mu Rwanda ubuvuzi bwa matungo nimwe muri gahunda ya leta y' u Rwanda yashyizweho bimaze kugaragara ko amatungo atitabwaho ndetse atabona ubuvuzi bihajyije, ni muri urwo rwego leta y'u Rwanda ishishikariza abantu kwita ku matungo bakayavura ndetse bakayajyirira ubuzima bwiza bityo bibafasha mu kongera umusaruro w'amatungo.

Leta y'u Rwanda ibinyujije muri gahunda yayo yo kwita ku bidukikije, ndetse no kurengera ibinyabuzima, yashyizeho gahunda zitandukanye, zo kwita ndetse no kurinda inyamaswa z'i gasozi. Hagashyirwaho uburyo zirindwamo, birinda ko zatoroka zikaza kubangamira abaturage, ndetse n'abaturage ntibazibangamire mu bundi buryo.

Muri gahunda ya Leta yo kwita ku bidukikije Leta y'u Rwanda yagiye ishyiraho gahunda yo kwita ku nyamaswa by'umwihariko inyamaswa z'igasozi, yagiye ishyiraho gahunda yo kurinda no kwita ku nyamaswa z'igasozi kuko yabonaga zimwe muri zo zigenda zikendera biturutse ku buhigi butemewe, ababikora bagenda bafatwa bakanabihanirwa by'umwihariko.

Inyamaswa z'igasozi zitabwaho binyuze muri gahunda yo kwita ku bidukikije. Leta y'u Rwanda yashyizeho uburyo bwihariye bwo kurinda ndetse no kwitaho inyamaswa z'i gasozi kugira ngo barwanye ba rushimusi ndetse n'abazihohotera ndetse abafatiwe muri ibyo bikorwa mu Rwanda barahanwa by'umwihariko.

Mu Rwanda hashyizweho gahunda yihariye yo kwita ku nyamaswa z'igasozi ndetse no kuzirinda abazihungabanya mu rwego rwo gushyigikira ubukerarugendo ndetse no kwita ku bidukikije. Ni muri urwo rwego leta y'u Rwanda ishishikariza buri wese kwita ku buzima bw'inyamaswa z'igasozi ndetse hagahanwa n'uwafashwe arenze ku mabwiriza azigenga.

Mu rwego rwo kwita ku bidukikije leta y'u Rwanda yagiye ishyiraho gahunda zihariye zihamye zo kwita ku nyamaswa, by'umwihariko ku nyamaswa z'igasozi kugira ngo ubuzima bwazo bubashe gusugira kuko byagendaga bigaragara yuko, hari abikinga ijoro ndetse kuko zitari zifite kirengera, bazangizaga bakanazica zikazimira.